Kwiga no guhugurana ku buryo bwo gutanga ubutabazi bw'ibanze ni uburyo bwiza bwo kugira ubumenyi bufasha mu gutanga ubutabazi bw'ibanze igihe habaye ikibazo k'impanuka gitunguranye.

Ni ameza akaba ariho ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ibi bikaba bifasha umurwayi mu kubona imiti kandi ku gihe.

Ni icyumba kikaba kirimo umuganga wambaye imyenda yabugenewe hakaba harimo igitanda kiryamyeho umurwayi, iki cyumba kikaba kirimo ibikoresho bihagije byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bw'ibanze mu gihe cyoroshye.

Ni ikinyabiziga kifashishwa mu gutwara abarwayi babakura ku bitaro bimwe babajyana ku bindi, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi mu buryo bwihuse kandi bunoze.

Kwiga ndetse no guhugurana ku buryo bwo gutanga ubutabazi bw'ibanze, ni uburyo bwiza bwo kugira ubumenyi bufasha abaturage mu gutanga ubutabazi bw'ibanze, ibi bikaba bifasha mu kugabanya imfu zituruka ku impanuka zigiye zitandukanye.

Ni ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka, kikaba kifashishwa mu gutanga ubutabazi bwibanze ku barwayi, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubutabazi bw'ibanze igihe bagize ikibazo.

Ni abagabo bambaye amajire asa n'umutuku, iruhande rwabo hakaba hari ibihingwa ngengabukungu, ndetse n'ibyatsi bitoshye, bakaba bateruye igikoresho kifashishwa mu gutanga ubutabazi, ibi bikaba bifasha kuba abatanga ubutabazi, ku umuntu wagize ikibazo ku buryo bworoshye.

Kwiga ndetse no guhugurana ku buryo bwo gutanga ubutabazi bw'ibanze ni uburyo bwiza bwo kugira ubumenyi bufasha abaturage mu gutanga ubutabazi bw'ibanze, ibi bikaba bifasha mu kwirinda infu zikomoka ku mpanuka za hato na hato.

Ni abakozi b'urwego rw'ubuzima, bakaba bambaye imyenda yabugenewe, yifashishwa n'abaganga mu kwita ku barwayi bafite ikibazo gikomeye, bakaba basunitse umurwayi ku igare ryifashishwa n'abafite ikibazo cy'ubumuga. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ubuvuzi bunoze kandi mu gihe cyihuse.

Uyu ni umurwayi, akaba aryamye ku gitanda, mu cyumba cyakirirwamo abarwayi barindiriye kwa muganga. Akaba arimo guhabwa ubutabazi bw'ibanze. Ibi bikaba bimufasha mu kubona ubuvuzi bukwiriye.

Ni ikarito, ikaba irimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye gutandukanye, ibi bikaba bifasha umurwayi mu kubona ubuvuzi, k'uburyo bwihuse kandi mu buryo bumunogeye.

Ni icyumba ,kikaba gihagazemo abakozi ku rwego rw'ubuzima ,bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye ,iruhande rwabo hakaba hari ibitanda biryamyeho abarwayi, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bunoze kandi vuba.

Guhugurana no kwiga ku buryo bwo gutanga ubutabazi bw'ibanze, ni uburyo bwo gufasha uwagize ikibazo cy'impanuka itunguranye, ibi bikaba bimufasha mu kuba yakwirinda gutakaza ubuzima bya hato na hato.

Ni abaganga bakaba bambaye imyenda ya wigenewe yifashishwa n'abagangada mu kuvura indwara zitandukanye, bakaba bari mu cyumba cyifashishwa mu gutanga ubuvuzi ku muntu ugize ikibazo cy cyihutirwa, ibi bikaba bifasha umurwayi kubona ubuvuzi mu buryo bwihuse.

Ni abaturage bahagaze mu cyumba gitangirwamo ubuvuzi, igihe hari umurwayi waganye kwa muganga, hakaba harimo uziritse akaboko, ibi bikaba bifasha umurwayi mu kubona ubuvuzi bumworoheye kandi mu gihe gikwiye.

Ni abaturage, bakaba bicaye imbere y'icyumba cyifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye ziba zafashe abaturage, hakaba harimo umuganga uhagaze ufashe impapuro, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ubuvuzi kuburyo bworoshye.

Kubaka ibikorwaremezo birimo ibigo nderabuzima ku buryo bwa kijyambere ni uburyo bwiza bwo gufasha abaganga mu gutanga ubuvuzi bunoze ku baturage baba baje babagana.

Ni abaturage. Bakaba bahagaze imbere y'inyubako yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bubanogeye bubafasha mu kugira ubuzima bwiza mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni abaganga bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara z'giye zitandukanye, ibi bikaba bifasha abaganga mu kwita ku barwayi ndetse bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bunoze mu gihe cya vuba.

Ni icyumba cyifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye zifata abantu hakaba harimo umuganga wambaye imyenda y'akazi, iruhande rwe hakaba hari igitanda kiryamyeho umurwayi, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bunoze kandi vuba.

Ni ikinyabiziga, cyifashishwa mu gutwara abarwayi bava ku bitaro bimwe bajya ku bindi, ibi bikaba bifasha abaganga mu kuvura ndetse no kwita ku barwayi mu buryo bwo kandi bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi mu buryo buboroheye.

Ni icyumba cyakirirwamo abarwayi barembye kwa muganga, hakaba harimo abaganga bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa mu kuvura igihe haje umurwayi ufite ikibazo, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, ibi bikaba bifasha umurwayi mu kubona ubuvuzi bunoze kandi mu buryo bwihuse.

Ni icyumba kirimo abakozi b'urwego rw'ubuzima, bakaba bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bunoze kandi vuba mu gihe kihuse.

Ni icyumba, kikaba kirimo abakozi b'urwego rw'ubuzima. Inyuma yaho hakaba hari agatanda karimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ,ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona imiti ibafasha mu kwivura igihe barwaye.

Ni abaganga bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga igihe bari kuvura, bakaba bari mu cyumba cyabugenewe, ibi bikaba bibafasha mu gihe bari gutanga ubuvuzi ku barwayi kandi bigafasha abarwayi mu kubona ubuvuzi ku buryo bworoshye.

Ni abaturage bakaba bahagaze imbere y'imodoka yifashishwa mu gutwara abarwayi ibakura ku bitaro bimwe ibajyana ku bindi, inyuma yaho hakaba hari amashyamba y'ibiti birebire, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bunoze kandi vubazi.

Ni umugabo wicaye mu modoka yifashishwa mu gutwara abarwayi ibakura ku bitaro bimwe ibajyana ku bindi, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi mu buryo bwihuse kandi bunoze.

Ni icyumba kikaba kirimo abakozi b'urwego rw'ubuzima. Bakaba bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye. Hakaba harimo umugore uje kwivuza. Ibi bikaba bifasha umurwayi kubona ubuvuzi bunoze kandi vuba.

Ni icyumba kigari kikaba kirimo abaturage bicaye. Imbere yabo hakaba hari abandi barimo gukoresha imashini. Bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kwiteza imbere binyuze mu kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Ni abaturage, bakaba bicaye imbere y'icyumba cyifashishwa n'abaganga mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze ku baturage, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona uburyo bworoshye bwo kwivuza bitabavunnye.

Ni icyumba kikaba gihagazemo abakozi b'urwego rw'ubuzima bakaba barimo kugikorera amasuku, ibi byumba bikaba byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye zifata abaturage.

Ni icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye, ibi bikoresho bikaba birimo iby'ikoranabuhanga ndetse n'amakarito, ibi bikaba bifasha umurwayi mu kubona ubuvuzi bwiza kandi bunoze.

Ni icyumba kigari cyicayemo abaturage, imbere yabo hakaba harimo abari gukoresha imashini. Bakaba bari kuganira ku buryo bwo kwirinda no kuvura indwara zigiye zitandukanye zifata abaturage.

Ni icyumba kikaba kirimo abarwayi ndetse n'abaganga bari kubavura, hakaba harimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bunoze kandi vuba.

Ni icyumba, kikaba kirimo abakozi b'urwego rw'ubuzima bambaye imyenda yabugenewe, imbere yabo hakaba hari umurwayi uryamye ku gitanda ndetse hakaba harimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye, ibi bikaba bifasha umurwayi mu kubona ubuvuzi bunogeye.

Ni icyumba, kikaba kirimo abaganga bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu gupima no kuvura indwara z'ubwoko bugiye butandukanye, hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu kuvura no gupima indwara z'ubwoko butandukanye, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bubanogeye.

Kwiga ndetse no kugira ubumenyi butandukanye mu bikoresho byifashishwa n'abaganga mu gupima no kuvura indwara zigiye zitandukanye, bifasha abaganga mu gutanga ubuvuzi bunoze ku barwayi, ibi bikaba byorohereza abarwayi mu kubavura indwara zigiye zitandukanye.

Ni umukozi w'urwego rw'ubuzima akaba yambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, akaba afashe ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ubuvuzi bunoze kandi vuba.

Kwiga ndetse no guhugurana uburyo bwo gukoresha ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu gupima no kuvura indwara zigiye zitandukanye, ni uburyo bwiza bwo kugira ubumenyi buhagije bufasha abaturage mu kugira, ubumenyi mu gukoresha ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni umuganga uri mu cyumba cyifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Hakaba harimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu gupima indwara. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ubuvuzi bubanogeye.

Ni icyumba kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri mu kwigan ndetse no kugira ubumenyi ku masomo barimo kwiga, hakaba harimo abanyeshuri bari gufata amasomo, ibi bikaba bifasha abanyeshuri mu kugira ubumenyi ku masomo agiye atandukanye.

Ni icyumba kigari, kikaba kirimo abashinzwe ubuzima bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyabuzima mu kuvura indwara, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ubuvuzi bunoze.

Ni icyumba kikaba kirimo umuganga wambaye imyenda yagenewe yifashishwa n'abaganga igihe bari mu gikorwa cyo kuvura, akaba arimo gusuzuma indwara zigiye zitandukanye, ibi bikaba bifasha abaganga mu kuvura ndetse no kwita ku barwayi.

Ni umuturage ufashe indangururamajwi. Inyuma ye hakaba hari abandi bicaye munsi y'igiti. Bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kwita ku bana bakiri bato babarinda indwara zituruka ku mirire mibi.

Kugira ubumenyi bugiye butandukanye bwo kwita ku mugore utwite ndetse n'abana bari munsi y'imyaka ibiri, bifasha umugore utwite ndetse n'abana mu kugira ubuzima bwiza buzira indwara zikomoka ku mirire mibi.

Ni ababyeyi bakaba barimo kugaburira abana bakiri batoya, ibi bikaba bifasha abana mu kubona ibyo kurya birimo intungamubiri zihagije zibafasha mu kwirinda indwara zikomoka ku mirire mibi.

Ni umubyeyi ufashe umwana w'uruhinja, akaba yicaye imbere y'inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'abana bakiri batoya, ibi bikaba bifasha ababyeyi mu kwita ku bana birinda ko bagira ikibazo cy'uburwayi.

Ni abaganga bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye. Imbere yabo hakaba hariyo umubyeyi ufashe umwana. Bakaba bari mu gikorwa cyo gukingira abana bakiri batoya.

Ni abaturage bakaba bahagaze imbere y'inzu, imbere yabo hakaba hari abana bakiri batoya, iyi nzu ikaba yifashishwa n'abaganga mu kwita ku ndwara zifata abana zirimo imirire, zikomoka ku mirire mibi.

Ni abaturage bicaye ahantu hakaba harimo abahagaze barimo kwigisha, bakaba barimo kwigishwa ku buryo bwo kugira ubuzima bwiza no kwita ku bana bakiri batoya birinda ko bagira imirire mibi.

Ni abana bakiri batoya, bakaba bicaye mu cyumba cyifashishwa n'abaganga mu kwigisha ababyeyi mu buryo bwo gutegura indyo yuzuye, ibi bikaba bifasha abana mu kubona indyo yuzuye, ibafasha mu gukura neza, birinda kugwingira.

Ni abaturage, bicaye mu ihema, hakaba harimo abashinzwe umutekano ku rwego rwa polisi ,imbere yabo hakaba hari umugabo ufashe indangururamajwi ,bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ni byiza ko umubyeyi utwite ndetse n'uri konsa barara mu nzitiramibu iteye umuti. Ibi bibafasha mu kwirinda ko baribwa n'imibu itera malariya, ikaba yabatera indwa, ibi bikaba bibafasha mu kugira ubuzima bwiza bw'umubyeyi ndetse n'umwana.

Ni abana bakiri batoya Bakaba batondetse hamwe k'uruziga. Bakaba iruhande rwabo hari umubyeyi urimo kubigisha. Ibi bikaba bifasha abana mu kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Ni umubyeyi w'umugore, akaba arimo gusomya amata umwana ukiri mutoya, ibi bikaba bifasha abana mu kubona intungamubiri zibafasha mu gukura mu bwenge ndetse n'igihagararo ndetse no kwirinda indwara.

ni icyumba, kikaba kirimo ibitanda biryamyeho abarwayi, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ahantu baba, hameze neza ndetse no kubona ubuvuzi ku ndwara zigiye zitandukanye.

Ni urubyiruko rukaba rurimo kugenda mu muhanda, hakaba harimo abafashe ibyapa byanditseho umunsi mpuzamahanga kwita ku buzima bwo mu mutwe, ibi bikaba bifasha mu guha agaciro abafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Ni icyumba kikaba kirimo urubyiruko rw'abana b'abahungu n'abakobwa bakaba barimo kwigishwa ku uburyo bwo kurwanya ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ibi bikaba bibafasha mu kwihugura no kugira ubumenyi bwo gufata umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Ni amazu yubakishijwe n'amatafari ahiye, aya mazu akaba yifashishwa n'abakozi b'ubuzima barimo abaganga mu kuvura indwara zitandukanye, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bubanogeye mu buryo bworoshye.

Ni abagabo n'abagore bambaye imipira y'umweru, bakaba bicaye mu ihema. Bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kwirinda ibibazo by'indwara zo mu mutwe. Ibi bikaba bibafasha mu kuba bahugurana ubumenyi bwo kuba bakwirinda ikibazo cy'indwara zo mu mutwe.

Ni icyumba kigari, kikaba kirimo intebe zicayeho abantu, imbere yabo hakaba hari icyapa cyanditsweho umunsi wahariwe abafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ibi bikaba bifasha mu kongerera agaciro abafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Ni abaturage bakaba bafashe umugore urwaye, iruhande rwabo hakaba hari umuganga urimo kubitaho, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bunoze kandi ku gihe.

Ni icyuyumba kirimo udutanda turiho imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona imiti ibafasha mu kwivura ndetse no kugira ubuzima bwiza igihe barwaye.

Ni amakarito akaba ateretse mu cyumba, aya makarito akaba apatiyemo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye zifata amatungo, ibi bikaba bifasha aborozi mu kugira amatungo abaha umusaruro uhagije.

Ni amakarito ari mu cyumba akaba afunzemo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zifata amatungo arimo inka, ingurube, ihene ndetse n'izindi, ibi bikaba bifasha abaturage mu kugira amatungo ameze neza abaha umusaruro uhagije.

Ni amacupa, akaba arimo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye zifata amatungo, arimo inka, intama, inkoko. Ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zifata amatungo.

Ni agatanda, kakaba karimo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, imbere hakaba hahagaze umugore urimo kuyitanga, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona miti ibafasha mu kuvura ndetse no kwita ku buzima bwabo igihe barwaye.

Ni amakarito ari mu mabara y'ubwoko bugiye butandukanye. Akaba afunzemo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bubanogeye.

Ni icyumba kikaba kirimo agatanda kariho amakarito apakiyemo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona imiti ibafasha mu kwivura indwara zigiye zitandukanye.

Ni inyubako, ikaba ikorerwamo ubucuruzi butandukanye burimo imiti, imbere yayo hakaba hari imbuga ikozwe mu mabuye, iyi miti ikaba yifashishwa n'abantu mu kuvura indwara z'ubwoko bugiye butandukanye.

Iyo umuntu agize ikibazo cy'uburwayi bugiye butandukanye, ni ngombwa kugana ivuriro rimwegereye kuko bimufasha mu kubona imiti imufasha mu kwivura ikibazo cy'uburwayi aba yahuye nacyo.

Ni inyubako ikaba yifashishwa mu kubika imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, imbere yaho hakaba hari imbuga ikozwe mu mabuye, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ubuvuzi bubanogeye kandi vuba.

Ni icyumba kirimo ibitanda biriho imiti iri mu macupa ndetse n'amakarito, ibi bikaba bifasha umuturage mu kubona aho agurira imiti imufasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni umugabo uhagaze imbere y'abaturage bicaye, inyuma yabo hakaba hari ibyapa bibafasha kwiga, bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ni urubyiruko rw'abana b'abanyeshuri bakaba bambaye impuzankano y'ishuri iri mu mabara asa ubururu n'umweru, bakaba bafashe bandarori, iruhande rwabo hakaba hari umurezi, ibi bikaba biri mu bikorwa byo gushishikariza abantu kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Ni abaturage bicaye ahantu hamwe, inyuma yabo hakaba hari abandi bahagaze bafashe icyapa, bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kwiteza imbere binyuze mu kwirinda indwara.

Ni ikiganza, kikaba gifashe ku kuguru, kikaba gifite uburwayi bugiye butandukanye burimo gushishuka uruhu, ibi bikaba bivurwa n'imiti ya kinyarwanda.

Ni icyatsi kimeza, kikaba kiri mu bwoko bw'amatovu, ibi byatsi bikaba byifashishwa n'abaturage mu gukora imiti, byifashishwa n'abaturage mu kuvura indwara zitandukanye, ibi bikaba bibafasha mu kubona imiti gakondo icishwa mu buvuzi.

Ni umuturage akaba afashe ku gikoresho cya kinyarwanda, akaba arimo gusekura imiti gakondo yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona umuti ubafasha mu kwivura indwara.

Ii icyatsi cy'umubirizi, kikaba gikikijwe n'ibindi byatsi, iki cyatsi kikaba cyifashishwa n'abaturage mu kuvamo miti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ku matungo ndetse n'abantu.

Ni ameza, akaba ariho udukoresho turimo imiti ya kinyarwanda, akaba akikijwe n'abaturage, barimo kuyitunganya. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona imiti ibafasha mu kwivura, umunsi ku munsi.

Ni umuganga, akaba ahagaze mu cyumba kirimo akabati karimo imiti ikozwe mu byatsi bya kinyarwanda, iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ni icyatsi gitoshe, iki cyatsi kikaba cyifashishwa n'abaturage mu gukorwa kw'imiti ya kinyarwanda, iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni icyatsi gihinze kikaba gifite uturabo dusa n'umweru, ibi byatsi bikaba byifashishwa mu gukorwa kw'imiti ivura indwara zigiye zitandukanye, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona imiti gakondo ibafasha mu buvuzi bwabo bwa buri munsi.

Ni ibikombe by'ibirahure bikaba birimo imiti ikozwe mu bimera bigiye bitandukanye. Birimo umuravumba ndetse n'ibindi. Iyi miti ikaba yifashishwa mukuvura ibisazi mu buryo bwa gakondo.

Ni umwana ukiri mutoya akaba arimo gukaraba intoki yifashishije kandagira ukarabe .Iruhande rwe hakaba hari inyubako yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ibi bikaba bifasha abana mu kwirinda kuba bagira indwara zikomoka ku mwanda.

Ni amashashi, akaba arimo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara z'amutungo zirimo inkoko. Ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo.

Ni icyumba kikaba kirimo umukozi w'urwego rw'ubuzima wambaye imyenda yabugenewe, imbere ye hakaba hari ameza ateretseho ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye, iruhande rwe hakaba hari umurwayi, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi buboneye kandi mu gihe cya vuba.

Ni inyubako, ikaba iteye amarangi ari mu ibara ry'ubururu, imbere yayo hakaba hari intebe, iyi nyubako ikaba yifashishwa n'abakozi b'urwego rw'ubuzima mu kuvura no kwita ku barwayi baba baje bagana.

Ni inyubako, ikaba ikorerwamo n'abakozi b'urwego rw'ubuzima, imbere yayo hakaba hari imbuga ikozwe mu mabuye, n'izi nyubako zikaba zifasha abaganga mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze ku baturage.

Ni abagabo n'abagore bakaba bahagaze imbere y'inyubako yifashishwa n'abanyabuzima mu gutanga ubuvuzi ku bana bakiri bato, ibi bikaba bifasha mu kuba wakwirinda igwingira ry'abana bakiri batoya.

Ni umubyeyi urimo kugana inyubako yifashishwa n'abaganga mu gutanga ubuvuzi bunoze. Akaba ari kumwe n'umwana. Iruhande rwayo hakaba hari ibiti bitoshye. Ibi bikaba bifasha abaganga n'abarwayi mu kubona ubuvuzi bunoze kandi mu gihe gikwiye.

Ni indobo zikaba ziri mu mabara asa n'umweru ndetse n'icyatsi, zikaba zirimo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye zifata amatungo, ibi bikaba bifasha aborozi mu kugira amatungo ameze neza atafite ikibazo cy'uburwayi.

Ni icyumba kikaba kirimo abakozi b'urwego rw'ubuzima bakaba bambaye imyenda yabugenewe bakifashishwa n'abaganga igihe bari kuvura, bakaba bari mu gikorwa cyo kuvura no gupima indwara zigiye zitandukanye.

Ni abaturage bahagaze imbere y'inyubako yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, hakaba harimo abaganga bambaye imyenda yabugenewe, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ubuvuzi bunoze.

Ni abaturage bicaye mu cyumba cyifashishwa n'abaganga mu gutanga amahugurwa ku baturage. Imbere yabo hakaba hari umukozi w'urwego rw'ubuzima wambaye imyenda yabugenewe. Bakaba barimo kwigishwa uburyo bwo kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ni abana bakiri batoya bicaye imbere y'inyubako ikorerwamo n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ubuvuzi ku buryo bworoshye kandi vuba.

Ni ibinyabiziga biri mu bwoko bw'imodoka, bikaba byifashishwa n'abaganga mu gutwara abarwayi babakura ku bitaro bimwe babajyana ku bindi, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bunoze kandi vuba.

Ni umwana, akaba arimo gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe, iruhande rwe hakaba hari inyubako yifashishwa n'abaganga n'abanyabuzima mu gutanga ubuvuzi ku baturage, ibi bikaba bifasha mu kwirinda indwara zikomoka ku mwanda.

Ni iyi nzu ikaba ikorerwamo n'abakozi b'urwego rw'ubuzima barimo abaganga, imbere yayo hakaba hari abaturage ndetse n'umuganga, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ubuvuzi bubanogeye kandi mu gihe cyihuse.

Ni icyumba, kirimo abaganga, abapolisi ndetse n'umurwayi, bakaba barimo kumufata amaraso, ibi bikaba bifasha umurwayi mu kuba yavurwa ndetse bagahabwa n'imiti bitagoranye.

Ni umubyeyi, akaba ahagaze mu cyumba kigari, cyifashishwa n'abakozi b'urwego rw'ubuzima mu gutanga ubuvuzi ku baturage. Ibi bikaba bibafasha mu kubona ubuvuzi bunoze kandi mu gihe kihuse.

Ni ababyeyi bakaba bafashe abana bakiri batoya, bakaba bicaye mu cyumba kinini cyakirwamo abaje bagana ku bitaro. Ibi bikaba bifasha mu kwirinda no kuvura indwara zifata abana bakiri batoya.

Ni icyumba kirimo amakarito afunzemo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara z'amatungo. Ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona imiti ibafasha mu gukingira, ndetse no kuvura indwara ziba zafashe amatungo.

Gutanga ubwisungane mu kwivuza bwa mituweli, bifasha abaturage mu kuborohereza igihe bagize ikibazo cy'uburwayi. Ibi bikaba bibafasha mu kubona imiti ku giciro gitoya.

Ni amakarito, akaba ari mu mabarabiri atandukanye, arimo, ubururu, umweru, umuhondo n'icyatsi, akaba arimo imiti yifashishwa n'abaganga, mu kuvura indwara zigiye tandukanye, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona imiti kuburyo bworoshye.

Ni inyubako, ikaba yifashishwa n'abaganga mu gutanga ubuvuzi bunoze ku baturage, iruhande rwayo hakaba hahagaze ushinzwe umutekano w'umusirikare, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ubuvuzi muburyo bwororoshye.

Ni icyumba kigari cyubatse ku buryo bugezweho, kikaba kirimo igitanda biryamyeho abarwayi, ibi byumba bikaba bifasha abarwayi mu kubona aho baryama hameze neza kandi hafite isuku.

Ni umuganda wambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara z'igiye zitandukanye. Imbere ye hakaba hari ibikoresho byifatishwa mu gukina, ndetse n'umugore urimo gupimwa indwara zigiye zitandukanye, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ubuvuzi bunoze.

Ni icyumba kikaba kirimo abakozi bashinzwe ubuzima bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, hakaba harimo ibitanda byifashishwa n'abarwayi igihe baje barembye, ibi bikaba bibafasha mu kubona ubuvuzi bunoze.

Ni abaturage. Bakaba bicaye imbere y'inyubako ikorerwamo n'abakozi b'urwego rw'ubuzima. Hakaba hari abahagaze iruhande rwabo. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ubuvuzi mu buryo bworoshye kandi vuba.

Ni umubyeyi akaba ari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe, iruhande rwe hakaba hari amazu yifashishwa n'abaganga mu gutanga ubuvuzi ku baturage, ibi bikaba bibafasha mu kwirinda indwara zikomoka ku mwanda.

Ni inyubako yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye zirimo kunanura imitsi, amagufa ndetse n'izindi, ibi bikaba bifasha abaturage mu kwirinda indwara zitandukanye zirimo rubagimpande, imitsi ndetse n'izindi.

Ni icyumba kikaba cyicayemo umukozi w'urwego rw'ubuzima wambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zgiye zitandukanye, iruhande rwe hakaba hari umurwayi ndetse n'ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye, ibi bikaba bifasha umurwayi mu guhabwa ubuvuzi bunoze mu gihe cya vuba.

Ni abaturage bicaye mu cyumba cyakirirwamo abarwayi baje bagana ibitaro , hakaba harimo abafashe impapuro bakaba bategereje guhabwa ubuvuzi bw'ibanze, ibi bikaba bibafasha mu kubona ubuvuzi bunoze.